Aha ndabona ari inyubako itangirwaho serivisi hari n'abantu bicaye bategereje serivisi ndabona ari nko kwa muganga, bategereje serivisi zo kwakirwa n'abaganga nyine ngo bahe imiti.

Ndabona ifoto iriho ababyeyi bateruye abana bisa nk'abari ari mu mahugurwa se cyangwa bari nko kwa muganga bagiye nko gukingiza abana.

Aha ndabona abantu abantu benshi iki ni igikorwa rusange cyangwa se umunsi mpuzamahanga se cyangwa mpuzakarere abantu bari gukina cyangwa se bari gukora umukino bari hasi bari gukina ikinamico bitewe n'insanganyamatsiko ihari.

Aha ni santere rusange ihuriraho abantu, kugira ngo bahabwe imiti runaka cyangwa urukingo.

Ishusho mbona imbere yanjye ndabona bari guhabwa amabwiriza, ahari uko basobanurira uko hazajya hatangirwa serivisi, uko serivisi zizajya zitangwa na posite do sante.

Ndabona ari igikorwa rusange cyitabiriwe n'abantu baje gufungura cyangwa gushyira ibuye fatizo ahazubakwa poste de sante.

Ishusho mbona imbere yanjye ni ishusho y'umuntu uri gutanga komande mu mashini zitandukanye zikorera mu nganda. Uri ni rumwe mu nganda zikorera aha hantu.